Ku bitaro ni inyubako abantu bahuriramo ari benshi, baba baje kwivuza indwara zitandukanye hari ababa barwaye amaso, ababa bavunitse, ababa baje kubyara bakabaha imiti bagasubira iwabo bakize.

Kwa muganga ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi baba baje kwivuza indwara zitandukanye, tuhasanga abaganga, iyo bamaze kugusuzuma bakamenya indwara urwaye, baguha umuti ugataha.

Imigano ni ubwoko bw'ibiti biba binanutse ifite n'ingingo ikunda kwifashishwa mu kubaka inzu, bakayishyira ku gisenge cyangwa bakayishingiriza imyaka nk'ibishyimbo.